Uyu ni umuhinzi urimo kuvomerera imyaka mu murima. Imyaka igaragara ko ikiri mitoya ari kuvomera.

Iki ni icyuzi cy'amafi ibizenga bikorwa kugira ngo byororerwemo amafi, hariya bubakamo akazu kazajya gafasha amafi kubona ibyo kurya.

Uyu ni umuhinzi uhagaze hagati y'imirima ihinzemo icyayi, ahetse kano gatebo basaruriramo icyayi.

Ibi ni ibihingwa ngengabukungu. Igihingwa k'icyayi kigaragara ko gihinze ku materasi y'indinganire, mu misozi isa nihanamye.

Aba ni abahinzi, bari gusarura icyayi mu murima, bahetse udutebo basaruriramo, icyayi, aha.

Uyu ni umuhinzi uri kwitegereza igihingwa cye, igihingwa kangura ubukungu aricyo bita kawa, kawa y'u Rwanda.

Iyi shusho iri kwerekana imiti yifashishwa mu kuvura ndetse no kubungabunga ubuzima bw'amatungo, iyi miti iterwa mu nshinge.

Ubu ni ubuhumbikiro buhumbikirwamo ibiti, imbuto, bikahavanwa bigiya guhingwa mu murima kugira ngo bibashe gukura neza.

Iyi shusho iri kugaragaza umubyeyi ufite ingemwe ebyiri mu ntoki ze. Uri kubona ko ari umubyeyi wishimye bigaragara mu maso he.

Uyu n'umuhinzi w'umumama urimo kubagarira imyaka igeze igihe cyo kubagarwa.

Iyi shusho iri kwerekana ibirayi, ibirayi bibisi ntago bitetse, ni umusaruro urunze hamwe.

Iki ni igihingwa k'imyumbati Abanyarwanda bavuga ko ari igihingwa ngandurarugo kuko gifasha abaturage kuva mu nzara.

Iki ni igihingwa k'ibigori bikiri bito bihinze mu murima bitaratangira gusambura cyangwa biheke bibe byakwera.

Iyi shusho iri kwerekana ahantu hari ishyamba ry'ibihuru ariko bigaragara ko hagati yaryo yaba hakurya no hakuno harimo umugezi munini n'ubwoko bw'uruzi.

Iri shusho riri kugaragaza igiti kiriho imiteja ni igiti keraho imbuto z'ipapaye ariko ntbago zari zera ziracyari imiteja.

Ishusho iri kwerekana umubyeyi, akaba ari umuhinzi ari kuvomera imyaka yifashishije igitembo.

Izi ni imashini zifashishwa mu buhinzi bwa kijyambere mu buryo bwo kuvomerera ibihingwa kugira ngo bizatange umusaruro.

Uyu ni umuhinzi uri kuvomera imbuto cyangwa se imyaka n'igikoresho cyifashishwa mu kuvomera amazi cyangwa se mu gutera imiti.

Ubu ni ubutaka buhinzeho ishyamba rinini, riri ku busa burebure, riteyemo ibiti by'inturusu.

Ubu ni ubworozi bw'inkoko za kijyambere, ziri mu kiraro cyazo. Zigaragara ko ziri mu kigero kimwe zose.

Izi ni imbuto z'ibihingwa uyu muhinzi yari afite ikiganza cye arimo kuzerereka muri ino shusho igaragara hano.

Aba bafite imbuto yo guhinga, barimo kuyitoranya baseka, bahagaze mu murima, aho bagomba kuyitera.